Kwita ku myaka ku yitera umuti wica udukoko, no gutuma ikura neza ni byiza cyane ku bahinzi, cyangwa ngo bazabone umusaruro mwiza w' ejo hazaza, ndetse no kugira ngo babone ibizahaza amasoko kugira ngo biteze imbere.

Amafi barobye mu kiyaga cyangwa se mu bizenga bakayashyira mu bitebo yapfuye, kugira ngo bayagurishe cyangwa se bajye kuyateka.

Inyama z'amafi ziraryoga cyane, cyane cyane bakunda kuzishyira muri firigo zakonje cyane kugirango zitaza kwangirikaka, bakatiyeho nyine n'indimu n'inyanya kugira ngo nyine.....

indyo yuzuje ubuziranenge kandi yuzuye, ni bimwe bidufasha mu kwirinda indwara zitera rimwe na rimwe, kandi bidufasha kubaka ubuzima, ubuzima buzira umuze aho biturinda indwara kandi bikadufasha gukura no kugira ubuzima bwiza.

Amafi bari kujya banaga ahantu mu kidobo bavuye kuyaroba, ariko ni udufi ditoya twapfuye, bari kujya banaga nyine mu kidobo, bari kurundamo.

Ibinyomoro bifite amababi manini cyane, bateye mu murima ari byinshi, noneho hirya hari n'ibigori, iyo byeze , bagira ...

Ibihaza ni bimwe mu bihingwa byiza bifatiye runini ubuhinzi ,kuko ni bimwe duhinga bitatugoye, kandi bigatanga umusaruro mwinshi kandi ni bimwe mu bihingwa bifite intungamubiri abantu tuba dukeneye, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ibitoki ni ibihingwa bajya bahinga, noneho hakavamo ibitoki bikaba babijyana ku isoko, cyane cyane bakunda kubikoramo isosi aho kugira ngo bicwe n'inzara.

Ibyuzi bororeramo amafi, ni bimwe mu mishinga myiza kuko itanga umusaruro mu bikomoka mu mazi nk'amafi, ndetse ni umushinga urimo amafaranga kuko abawukora biteza imbere.

Abahinzi bahinga imyumbati bibateza imbere, kandi abacuruza ku muhanda bigabanya mwanya wacu kuko tubona ibiribwa ahagereye aho dutuye, tukabibona bikaba bitworoheye.

Ubuhinzi, amashaza ni ibihingwa byiza cyane, kuko bidufatiye runini cyane, mu ngano bitangana hano mu Rwanda, kuko uhinga amashaza agemuye mu isoko akabona amafaranga, kandi na none bikanamuhaza nawe.

Ubuhinzi ni ngombwa cyane kuberako mu gihugu cyacu ubuhinzi bugifatiye runini, kuberako abaturage ni ho bahera biteza imbere kandi bakanabona ibiryo bihingiye bitabavunnye . Ubuhinzi rero ni ngombwa kandi tugomba kubwitaho.

Ubuhinzi ni kigenzi cyane mu mibereho y'abanyarwanda, kuko ubuhinzi niho babonera ibiryo, niho babonera amafaranga yo kwiteza imbere no kwizamura mu by'ubukungu, igihugu gitera imbere binyuze mu bukungu bwaturutse ku kwihangira imirimo kw'abaturage harimo no guhinga.

Imyumbati ni bimwe mu biribwa turya, bikatugirira akamaro, bikaduha imbaraga. Tukongera imbaraga, iyo twayiriye neza, twakoze indyo yuzuye kandi umusaruro wawo utuma abaturage biteza imbere tukagira aho twigeza.

Kuhira ni genzi cyane. Burya kuhira bituma ibihingwa bikura neza kuko bibona amazi bikeneye mu gukura kwa byo, ari byo bintu bituma umusaruro wiyongera, bigatuma n'umuhinzi abona umusaruro umutunga.

Ubuhinzi buteza abaturage imbere harimo kuba babona umusaruro ukomoka ku buhinzi. Kandi n'abaturage muri rusange , kuko babona umusaruro w'ibyo kurya biturutse mu buhinzi kandi harimo n'amafaranga menshi.

Imboga, pavuro, karoti, sileri ni bimwe mu bintu bidufasha gutegura amafunguro yujuje ubuziranenge, kuko bitanga uburyohe ,kandi nanone bidufasha gutegurira isosi nziza iryoshye kandi ifite intungamubiri.

Ubworozi bw’inkoko ni ubworozi bwiza cyane, kubera ko inkoko zitanga amagi, abana barya bakivura bwaki n’imirire mibi. Kandi inkoko ni igihingwa gitanga umusaruro, bitewe n’uko burarumbuka, bityo rero bigatanga umusaruro w’amafaranga.

Ubuhinzi bw'inanasi buri mu bintu by'ingenzi, cyane cyane nk'ibihingwa bidufasha kwiteza imbere, abaturage babihinga na bo bakiteza imbere bakongera umusaruro, kandi na twe tukabona umusaruro uvuye ku nanasi, idufasha mu buzima bwacu.

Ibigori ibihingwa by'ingenzi cyane mu Rwanda, kuko bidufasha mu kubona ibiribwa aritwe tubihinze, aritwe tubyihaye kandi bikadufasha no kwiteza imbere, mu buryo bundi nko kubigurisha n'ibindi.

Ihene ni amatungo meza cyane atanga umusaruro. Atanga umusaruro bigatuma abantu biteza imbere, cyane cyane iyo bagiye kuyagurisha babaha amafaranga, abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo buri munsi.

Inkoko n'itungo ryiza cyane kuko ritanga umusaruro mwinshi uyivuyeho, harimo: nk'amagi ajya adufasha mu kuvura bwaki, no kuvura abana bacu no kwita ku buzima bwabo, ariko na none umusaruro w'inkoko ni mwishi cyane, kubera ko inkoko umusaruro wayo tuwujyana ku isoko tukabona amafaranga adufasha kwiteza imbere.

Avoka ni urubuto rwiza cyane, rutanga intungamubiri, bigatuma umubiri ukora neza ,kandi iyo ruri ku ifunguro, ifunguro riraryoha cyane, ituma aryoherwa kandi rikamufasha mu mikurire ye.

Ubuhinzi turabukeneye kuko noneho dukora ibyo kurya n'imyumbati, amateke, ibirayi. Ibyo byose turabikeneye cyane pe! Kandi n'ababikoramo umwuga ntabagorwa cyane kuko buvamo amafaranga menshi, kandi guhombya kwabwo biri hasi cyane.

Ibi ni ibiryo akunda kurya mu cyaro, cyane cyane bijyana n'ibishyimbo, iyo babitetse bivanze n'ibishyimbo biraryoha.

Amashaza ni ibiribwa byiza cyane bitewe n'intungabiri bitanga .Ikindi kandi umusaruro w'amashaza utanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga . Kandi bidufasha gukemura ibibazo tuba twagize bigiye bitandukanye.

Amashaza n'ibishyimbo biraryoha cyane bajya bicuruza mu soko babitonoye cyane cyane iyo bashaka ko abakiriya baza ntibigore kuba babitonora bakacururiza mu soko babitonoye.

Ahantu bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo n'ibindi binyampeke byinshi, bigiye biriho ubupapuro buriho igiciro n'andi magambo.

Umuceri ni igihingwa ngandurarugo gihingwa neza, iyo wagiteresheje ifumbire y'imborera, n'imvaruganda, bituma ugihinga abona umusaruro mwinshi cyane, kandi bikanamuteza imbere.

Umusaruro w'ibirayi utanga ibiryo ku baturage bihingiye, kandi ibirayi ku bahinzi n'ingenzi cyane kuko niho bahera biteza imbere, aho usanga abahinzi ibibumbiye mu makoperative n'umusararo babonye bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo kwifashisha.

Kwita ku musaruro, ni ngombwa cyane kubera yuko iyo witaye ku musaruro niho ubona inyungu nyinshi, bityo iyo wagiye ukora, ukabona inyungu y'ibivuyemo, ni gombwa cyane. Cyane cyane kwita ku musaruro w'ibiribwa mu buhinzi.

Ubuhinzi bw’ibinyampeke, nk'amashaza, soya, ni cyiza cyane kuko dukora igikoma kibivuyemo, gifasha abana bacu mu mikurire. Kandi umusaruro wabyo ukuramo ibindi bintu byinshi, bikorwa, bikaduteza imbere kandi tukihaza mu biribwa.

Ubworozi bw'ingurube ni ingenzi cyane. Ni ubworozi butagoye kuko ingurube nta bwo zivuna, ariko na none ingurube zitanga umusaruro mwinshi wi'fumbire, ndetse n'amafaranga ava mu ngurube ni menshi cyane. Akaba ariyo mpamvu ziba nziza mu nzira yo kwiteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bw'ingenzi burimo umusaruro cyane. Kubera ko abantu borora ingurube batanga umusaruro w'inyama, bagatanga umusaruro w'ifumbire, bityo rero bikabafasha mu buhinzi no kwiteza imbere.

Kera cyane, bajyaga barorera amatungo ku gasozi, ariko ubu basigaye bororera amatungo mu rugo. Bityo, birinda amatungo indwara no kurwaragurika, ndetse bikongera umusaruro cyane.

Bavuze aho amatungo, bajya bakunda gutera inka, bakayitera umuti wica ama, isazi, ubusimba butoya, n'ibirondwe, kugira ngo inka izekumera neza.

Inyama cyangwa gucuruza inyama ni umwuga mwiza cyane, urimo amafaranga bitewe n'uko inyama abantu benshi barazikunda, bitewe n'uburyohe bwazo. Kandi na none inyama ni bimwe mu biribwa dukenera mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo tugire ubuzima bukomeye, kandi ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane inka. Butanga umusaruro mwinshi cyane. Ifumbire, amata, ibikomoka ku nyama ndetse n'amafaranga kubazorora. Ni inyamaswa nziza cyane kandi inka zikagaragaza n'umuco wacu mu Banyarwanda.

Ingagi zikurura abakerarugendo cyane cyane bagasiga amadovize ateza imbere baturage n'igihugu cyacu, bityo rero bikongera iby'ubukerarugendo muri rusange mu mugabane w'Afurika.

Inyamaswa zo muri pariki, amasatura, intare, n'izindi nyamaswa, zikurura ba mukerarugendo bazanira amadovize u Rwanda, bigateza imbere kandi n'abaje kudusura bakishima.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zifitiye runini u Rwanda, kuko bazisura bagasiga amadovize noneho u Rwanda rukiteza imbere, Kandi na twe b'abaturanyi bikatugirira inyungu cyane. Ingagi ni inyamaswa nziza cyane abantu basura bitewe n'imiterere yayo, barangiza bakishima kandi bakanaruhura mu mutwe.